Ifumbire yifashishwa mu kongera umusaruro w'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo nk'ibirayi, ibijumba aho isaswa mu murima kugira ngo ibashe gukora neza.

Abahinzi babihuguriwe kandi babigize umwuga barimo bakorera ibihingwa byabo byiganjemo amashu bikaba bibafasha kubona umusaruro mwinshi bityo bakiteza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Akabati gakoze mu rubaho, karimo imirama y'ibihingwa bigiye bitandukanye, higanjemo karoti, inyanya, ibitunguru, ndetse n'ibindi, bikaba bifasha abahinzi babigize umwuga mu kongera umusaruro wabo.

Abahanga mu bijyanye n'ubuhinzi aho barimo bahugura abahinzi ku buryo bukwiriye bwo guhinga imyaka igiye itandukanye, cyane cyane ibigori hakurikizwa intera hagati y'ikigori kimwe n'ikindi, kugira ngo bibashe gukura neza bitange umusaruro uhagije.

Umurima urimo ifumbire ifasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa, ukaba urimo ibyatsi bifata ubutaka kandi ukaba ukikijwe n'ibiti bifasha mu gutunganya umwuka duhumeka kandi ugafasha mu kurwanya isuri.

Iduka rigurisha imiti yifashishwa cyane cyane n'abakora umwuga w'ubuvuzi bw'amatungo mu rwego rwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye zigaragara ku matungo, zikaba zabangamira umusaruro wazo.

Akarima k'igikoni, gahinzemo imboga z'amoko atandukanye higanjemo intoryi, zifashishwa mu kongera intungamubiri mu mafunguro afatwa nk'abagize umuryango.

Igiti kera imbuto z'ipapayi dusanga mu rwego rw'ibiribwa birinda indwara, bifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa mu rwego rwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bukorwa n'uwabihuguriwe buri mu murima w'ubuso bunini, bwiganjemo isombe n'ibigori, ukikijwe n'ishyamba rifasha mu gutunganya umwuka duhumeka ndetse no gufata ubutaka mu rwego rwo kurwanya isuri.

Ubuhinzi bukorwa n'umuntu wabyigiye, buri ku buso bunini bwiganjemo ibishyimbo ndetse n'ibigori bifasha mu gufata ibishyimbo mu gihe biri kuzamuka, mu rwego rwo kwirinda ko hakenerwa imishingiriro.

Umurima urimo amaterasi y'indinganire yifashishwa mu kurwanya isuri, akaba ari gahunda ya leta yashyizweho kugira ngo habungabungwe ubutaka mu rwego rwo kugira ngo bukoreshwe neza, bukaba bukikijwe n'amashyamba n'ayo afasha mu gufata ubutaka.

Ubuhinzi bw'insina bufasha ababukora kwiteza imbere mu gihe insina zabo zeze bakagurisha ibitoki ndetse no kubona imitumba bagaburira amatungo mu gihe bamaze gusaruraho igitoki.

Ubuhinzi bw'ibigori bufasha ababukora kwiteza imbere mu gihe bagurishije umusaruro wabo, ndetse no kwihaza mu biribwa mu gihe barimo barya ibyo bejeje.

Ubuhinzi bw'urutoki bukunze kugaragara mu bice bitandukanye by'Igihugu, bufasha ababukora kubona amafaranga aturutse mu kugurisha ibyo bitoki ndetse no kubona imitumba igaburirwa inka.

Ubworozi bw'amatungo magufi, higanjemo ingurube, bikaba bifasha ubikora kubona amafaranga, biturutse mu kugurisha izo ngurube cyangwa se mu kubona inyama, mu gihe yagize izo abaga.

Umuti wifashishwa mu gushaka ndetse no gukura udukoko dutera indwara, haba mu biribwa, mu mazi tuywa ndetse n'ayo dukoresha ndetse n'ibiribwa bikomoka ku mata, yaba amata muri rusange cyangwa se foromaje ndetse n'ibindi byose bikomoka ku mata.

Umuhinzi wabigize umwuga wigishijwe kandi akumva neza akamaro k'imbuto zitandukanye mu mubiri, aho arimo atera urubuto rw'igiti cy'avoka mu rwego rwo kugira ngo we n'umuryango we babashe kubona imbuto bitabagoye.

Abahinzi babigize umwuga kandi babyigiye barimo bakorera ibihingwa byabo byiganjemo ibirayi, mu rwego rwo kongera umusaruro uturuka mu buhinzi bwabo bityo bibafashe kwiteza imbere.

Umuhinzi wabigize umwuga urimo gusasa ifumbire mu murima we, kugira ngo abashe kongera umusaruro w'ibihingwa bye byiganjemo imbuto nk'iz'amapera, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Abahinzi babigize umwuga kandi babihuguriwe, barimo basarura imyaka yabo kugira ngo babone uko bayigeza ku isoko babashe kuyigurisha, babone amafaranga abafasha guhaha n'ibindi bakeneye.

Umuhinzi wabihuguriwe urimo gusasa ifumbire mu murima we kugira ngo yongere umusaruro uturuka mu rutoki rwe, bityo bimufashe mu gukomeza kwiteza imbere no gukomeza mu nzira y'amajyambere.

Umuhinzi wabigize umwuga wanitse ibigori kugira ngo abashe kubona impungure zimeze neza aziseshe akuremo kawunga bityo bimufashe gukomeza kwiteza imbere.

Umusaruro w'abahinzi babigize umwuga w'ibihingwa bigiye bitandukanye mu mifuka, aho bagenda bareba ibyavuye mu gihembwe cy'ihinga mu rwego rwo kugira ngo bamenye aho bakwiriye kongera imbaraga, mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo ukomeze kuba mwinshi.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha ibibatunga, cyanecyane inyanya zifashishwa mu kuryoshya ibyo barya ndetse zikaba zinafasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu gukomeza kwiteza imbere.

Abahinzi babigize umwuga bahinga inyanya, aho barimo barobanura umusaruro wabo bakuramo izitameze neza kugira ngo babashe kujyana umusaruro wabo ku isoko babone amafaranga abafasha mu gukomeza kwiteza imbere.

Umuhinzi wabigize umwuga wasaruye umusaruro we w'amasaka akawanika neza kugira ngo abone uko awuhungura, ubashe gutunganywamo ifu ndetse ubashe kuba wakoreshwa mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Umuhinzi wabigize umwuga urimo azirika ibigori bye kugira abone uko abyanika, bizume neza abone uko abihungura bivemo impungure nziza zakifashishwa mu gukora ifu y'akawunga.

Akarima k'igikoni kubabatse hakoreshejwe imifuka ndetse n'ibiti gahinzwemo imboga z'amoko atandukanye, kakaba kunganira urugo mu kubona imboga z'amoko agiye atandukanye mu rwego rwo kurya indyo yuzuye bityo bagire ubuzima bwiza.

Urusobe rw'ibinyabuzima ruri mu ishyamba riherereye mu gace ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, iryo shyamba rikaba rifasha mu gutunganya umwuka abantu bahumeka ndetse no gufata ubutaka mu rwego rwo kurwanya isuri.

Ibiti bifasha mu gutunganya umwuka abantu bahumeka, bikaba ari gahunda yashyizweho na leta kugira ngo ikomeze kubungabunga umwuka abantu bahumeka, kubera imihindagurikire y'ikirere cyane ikunze kubaho ku isi, ndetse ibi biti bikaba binafasha mu gufata ubutaka.

Igisura kimwe mu byatsi bikoreshwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa n'abavuzi babiherewe uburenganzira, mu rwego rwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira abantu.

Umuhanda ukoreshwa n'urujya n'uruza rw'abantu, baturuka mu gace kamwe bajya ahandi, ukaba ukikijwe n'urutoki ndetse n'ibiti bitanga imbuto dukuramo vitamine zigiye zitandukanye. Bityo umubiri ukagira ubudahangarwa.

Umurima uhinzemo amashu aho abahinzi bagenda basigamo intera ihagije kugira ngo abone uko akura neza ukaba ukikijwe n'ibiti bifasha mu gufata ubutaka ndetse uka uhinzwe mu buryo bw'amaterasi y'indinganire mu kurwanya isuri.

Umuhinzi wabigize umwuga kandi wabihuguriwe, aho arimo asuzuma igiti cyeraho voka, zifashishwa mu kongera intungamubiri ku mafunguro, aho tuzisanga mu gice cy'ibirinda indwara, bifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zitandukanye.

Umuhinzi wabigize umwuga kandi wabihuguriwe, urimo agenzura ko imyaka ye y'intoryi irimo gukura neza, kandi ko nta dusimba twonona imyaka twaba turimo, ku buryo umusaruro we uzaba mwiza kandi mwinshi.

Akarima k'igikoni, imwe muri gahunda ya Leta yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo umuryango ubashe kubona ibiribwa birimo intungamubiri zihagije kandi bitagombeye kujya kubihaha ku isoko.

Amashyamba kimwe mu bitunganya umwuka abantu bahumeka, ndetse n'igiti cy'urubuto rw'ipera rukungahaye kuri vitamine C ifasha umubiri mu kubona feri iba yaturutse mu biryo turya.

Urugo rukikijwe n'uruzitiro mu kongera umutekano w'ababa mu rugo, rukaba rufite ubusitani bwongera ubwiza bwishimirwa n'ababagana bagiye batandukanye.

Ubuhinzi bukorerwa ku buso bunini, aho abaturage bashishikarizwa kwegeranya ubutaka mu rwego rwo kugira ngo bahingire hamwe bityo umusaruro uzabe mwinshi bibafashe mu gukomeza kwiteza imbere.

Akarima k'igikoni, imwe muri gahunda yashyizweho na leta, kugira ngo umuryango ubashe kubona ibiribwa byiganjemo imboga, bitagombeye kujya kubihaha ku isoko, kandi bifashe mu kongera intungamubiri ziba mu mafunguro umuryango ufata.

Akarima k'igikoni gahingwamo imboga ndetse n'ibindi bihingwa byoroheje bitagombeye kujya kubigura ku isoko, kiganjemo ibitunguru byifashishwa mu gutegura amafunguro kugira ngo abe ameze neza.

Ubuhinzi bw'ibiribwa bitandukanye higanjemomo cyane cyane intoryi, igitoki bikaba bifasha ubikora mu kubona ibimutunga bya buri munsi ndetse no gukomeza kwiteza imbere.

Isoko rihahirwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, higanjemo cyane avoka, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona ibibatunga bya buri munsi babashe gukora imirimo yabo neza.

Ubuhinzi bw'imyaka itandukanye bwiganjemo inyanya, aho bukorwa n'umuhinzi wabigize umwuga ari kumwe n'umuryango we, bamufasha gusarura ibyavuye muri ubwo buhinzi kugira ngo abashe kubijyana ku isoko, abonemo ibimutunga we n'umuryango we.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye ziganjemo voka, zifasha umubiri kongera intungamubiri bityo ukagira ubudahangarwa bukomeye ku ndwara, umuntu ntapfe kurwaragurika uko yiboneye.

Akarima k'igikoni gahingwamo imboga ziribwa n'abagize umuryango mu rwego rwo kongera intungamubiri zituruka mu biryo baba bariye. Kakaba gakikijwe n'ibyatsi bifata ubutaka mu rwego rwo kurwanya isuri.

Umuhinzi wabihuguriwe kandi wabigize umwuga urimo akorera imyaka ye, aho arimo atera umuti wirukana udukoko dutuma umusaruro w'ibihingwa bye uba mukeya.

Umurima uhingwamo imyaka igiye itandukanye, ukaba uhinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire. Bifasha mu kurwanya isuri, ndetse no kongera umusaruro w'ibihingwa, bihingwa muri uyu murima.

Ikibuga kiri ku buso bunini, cyifashishwa mu bijyanye n'imyidagaduro cyane cyane nk'umupira w'amaguru, ibirori ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye, kikaba gikikijwe n'ibiti bifasha mu kuyungurura umwuka abantu bahumeka.

Ikibuga cy'umupira cyifashishwa cyane cyane n'abakina umupira w'amaguru, kikaba gishobora no gukoreshwa mu bitaramo, mu birori, mu kwakira mbese abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye kikaba gikikijwe n'amashyamba afasha mu kubungabunga umwuka duhumeka ndetse no gufata ubutaka.

Amaterasi y'indinganire imwe muri gahunda ya Leta yashyizweho mu rwego rwo kurwanya isuri ndetse no kubungabunga ubutaka kugira ngo ibihingwa bihingwa bibashe kubyara umusaruro mwinshi, mu rwego rwo guhangana n'inzara.

Igishanga kimwe mu byifashishwa mu guhinga ibihingwa bitandukanye, higanjemo ibinyampeke nk'umuceri, ingano n'ibindi, kikaba gifasha abakora ubwo buhinzi kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Abahinzi babihuguriwe aho barimo bahinga umurima w'ubuso bunini, ukikijwe n'ishyamba rifasha mu gufata ubutaka mu rwego rwo kurwanya isuri ndetse no gutunganya umwuka abantu bahumeka, bagenda bahinga mu buryo bw'imiringoti kugira ngo amazi agende abona aho anyura.

Igishanga kimwe mu bikorerwamo ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibinyampeke nk'umuceri, ingano ndetse n'ibindi, kikaba gifasha abakora ubwo buhinzi kubona aho bahinga imyaka yabo.

Ubuhinzi bukorerwa ku buso bugari aho abaturage bashyira hamwe bagateranya ubutaka kugira ngo babashe guhingira hamwe imyaka yabo bazabone umusaruro uhagije, bakaba babikora bagendeye kuri gahunda ya Leta y'amaterasi y'indinganire yo mu rwego rwo kurwanya isuri.

Ubuhinzi bw'umuceri ku buso bunini bukorerwa cyane cyane mu gishanga mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo kwihaza mu biribwa bw'abatuye igihugu, bukorwa n'ababyigiye mu rwego rwo kugira ngo haboneke umusaruro mwiza.

Umurima uri ku buhanami bw'umusozi, uhinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, mu rwego rwo kurwanya isuri ndetse no gutemba k'ubutaka, bikaba biri muri gahunda ya Leta yo gukomeza kubungabunga ubutaka, kugira ngo haboneke ibiribwa bihagije abatuye Igihugu.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorwa ku misozi ihanamye, bukaba bwinjiriza igihugu amafaranga biturutse mu gutunganya icyo cyayi ndetse n'ababukora bikabafasha mu gukomeza kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi higanjemo ingurube, bukaba bufasha umworozi mu kubona ibimutunga ndetse no kubona ifumbire yakwifashisha mu kongera umusaruro w'ibihingwa bye.

Ubworozi bw'amatungo yiganjemo inka, aho bufasha umworozi ubukora mu kubona umusaruro waba uw'amata cyangwa se kuzigurisha akabona inyama, bityo bikaba byamufasha mu kwiteza imbere no mu bindi bikorwa bitandukanye agenda akora.

Ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane ingurube. Bukaba bufasha, umworozi ubukora, kubona ifumbire, afumbiza imyaka ye, Kugira yongere umusaruro ndetse bikaba byanamufasha kubona amafaranga, aturutse mu kugurisha ayo matungo ye yorora.

Ubworozi bw'ingurube, bukorwa n'abatari bakeya, mu rwego rwo kubona amafaranga mu gihe bagurishije izo ngurube, cyangwa se kubona ifumbire ibafasha kongera umusaruro w'ibihingwa byabo.

Ubworozi bw'inka bukorerwa mu duce twinshi dutandukanye tw'igihugu, bukaba bufasha ababukora kubona ibibatunga harimo nk'amata, kubona ifumbire ifasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa mu mirima cyangwa se kubona amafaranga abafasha mu gukomeza kwiteza imbere.

Inzu yubatse neza igizwe n'ibiti ndetse n'amabati n'utwugi dufunguka, yororerwamo amatungo magufi, cyane cyane ingurube mu rwego rwo kurinda umutekano ndetse n'isuku yazo.

Ubworozi bw'inkoko bukorwa n'uwabigize umwuga, bukaba bumufasha kubona amafaranga mu kuzigurisha cyangwa se kugurisha amagi yazo, ndetse ayo magi akaba yafasha n'umuryango kongera intungamubiri ziri mu biryo bafata.

Ubworozi bw'amatungo magufi yiganjemo ingurube, bufasha ubukora kubona amafaranga binyuze mu kuzigurisha ndetse no kubona ifumbire yifashishwa mu kongera umusaruro w'ibihingwa.

Umuhinzi wabigize umwuga, aho arimo akorera imyaka ye, yiganjemo ibishyimbo, amateke, bikikijwe n'ibiti bifasha mu gufata ubutaka mu rwego rwo kurwanya gutemba k'ubutaka.

Ubwoko bw'inyoni ifite amabara abereye ijisho akurura ba mukerarugendo bikinjiriza igihugu amadovize kandi bigafasha mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki, higanjemo cyane ibiti bifasha mu gutunganya umwuka duhumeka ndetse n'inzovu zikurura ba mukerarugendo bikinjiriza igihugu amadovize.

Igitera kimwe mu bikurura ba mukerarugendo bigatuma igihugu cyinjiza amadovize, kiri mu murima uhinzemo ibyatsi bisasirwa inka kandi bigaburirwa inka mu kugira ngo umusaruro wazo wiyongere.

Pariki y'Akagera yiganjemo ibinyabuzima by'ubwoko bugiye butandukanye, harimo nk'inyamaswa cyane cyane nk'agasumbashyamba, ibiti by'amoko by'amoko agiye atandukanye, ibyatsi by'amoko agiye atandukanye bikurura ba mukerarugendo, bikaba byinjiriza Igihugu amadovize.